Ushinzwe umutekano mu rwego rwa polisi, aho ari gukoresha imbwa kugira ngo ibe yasaka ibintu byakwangiriza umutekano w'abaturage.

Inama y'abaturage aho yahuje Leta mu rwego rwa polisi, aho polisi iri kubasobanurira buryoki bashobora kwitwara , ndetse na gahunda yo kubungabunga umutekano wabo.

Inama y'abaturage yitabiriwe n'abaturage benshi ndetse n'abashinzwe umutekano, mu rwego rwa polisi ndetse na RIB ishinzwe gukurikirana ibyaha, aho bari kugirwa inama.

Abantu bashinzwe kuzimya impanuka y'imiriro, barimo bigisha abaturge uburyo ki babikora babyikorera, cyangwa se bazimya inkongi y'umuriro.

Inama y'abaturage ihuje ubuyobozi bushinzwe umutekano harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, biga ku kuntu barinda umutekano wabo ndetse n'ukuntu bawuzamura.

Inama y'abaturage aho yabereye ku mashuri, bakaba bari gukoresha intebe zo mu mashuri. Yitabiriwe n'abaturage benshi, ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi.

Ubuyobozi bushinzwe umutekano, mu rwego rwa polisi buba buri mu muhanda, kugira hitabweho umutekano w'ibinyabiziga ndetse n'ibinyabiziga, byubahiriza amategeko bihawe n'ubuyobozi.

Inkongi y'umuriro ni imwe mu mpanuka zishobora guterwa nuko wakoresheje gaze nabi, cyangwa se ufite amashanyarazi ateje ibibazo.

Abaturage benshi bahagaze aho urwego rw'umutekano mu rwego rwa polisi barimo basobanurira abaturage ingingo runaka ndetse arinako n'abaturage babihanze amaso babikurikiye.

Igikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro, aho bari gukoresha ibyuma byabugenewe, ndetse bakaba nabo bambaye imyenda yo kwirinda, irimo: nk'igisarubeti, ibibote, ndetse n'ingofero.

Inama yateranyije abarinda umutekano w'abanyururu cyangwa se w'imfungwa, bityo bakabasha kwigishwa buryo ki barinda neza umutekano w'izo mfungwa, baba baririnze.

Inzego z'umutekano mu rwego rwa polisi, aho ziri kugira ibyo zerekana kuri taxi itwara abagenzi hirya no hino ndetse ikaba iri kuzereka abaturage ndetse n'umutwazi wiyo taxi.

Abashinzwe umutekano mu rwego rw'Abadaso, aho bari kwigishwa kurasa bakoresheje imbunda. Mu rwego rwo kubigisha gukoresha ibikoresho byifashishwa mu kurinda umutekano.

Inzego z'ubuyobozi, aho harimo abashinzwe umutekano mu rwego rwa porisi, urwego rwa daso ndetse n'abasekirite, kugira ngo hatangwe iki gihembo cya moto, gishobora gukoreshwa mu kurinda umutekano.

Inama y'ubuyobozi bw'abaturage, aho yahuje abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi, ndetse no mu rwego rwa gisirikare, ndetse n'abashinzwe gukurikirana ibyaha mu rwego rwa ribu.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore aho bicaye ahantu, ndetse bapanze kwiga Ku kintu runaka.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye mu magururupe cyangwa se mu matsinda, bashobora kuba bitabiriye inama yo kwiga ku kintu runaka.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bayobowe n'abayobozi babo, usa nkaho bari kwiga ku kintu runaka kugira bagire icyo bigezaho, ndetse bakaba bakiteza imbere mu buzima bwabo.

Inama iri gukorwa nyuma yo gukora umuganda, harebwa buryo ki hakumvikanwa ku kintu runaka, ndetse yitabiriwe n'abaturage benshi, ndetse n'umuyobozi urimo kubabwira imbwirwaruhame.

Umuvure ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu Rwanda, igihe babaga bagiye gushora inka, ndetse bakagikoresha nabwo bagiye gukora imitobe cyangwa se inzagwa akoresheje ibitoki.

Umuzinga w'inzuki umanikwa ahantu mu ishyamba, ahantu inzuki zizashobora kwinjira muri wa muzinga kugira ngo zigeremo, zishyire hamwe maze haboneke ubuki.

Ingoma nk'igikoresho gikoreshwa mu muco nyarwanda babyina, ndetse batanga ikintu runaka nk'amatangazo. Bakomaho, barangiza bakavuga. Ndetse ingoma bayikoresha ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umukaraza w'ingoma aho ari kuvuza ingoma, ndetse akaba yambaye n'imyenda bakoresha babyina imbyino nyarwanda za kera.

Ubundi umuco wa kinyarwanda iyo bajyaga gukwa umugeni bitwazaga ibirago cyane kandi abadamu babaga babifite, ndetse no mu gihe cy'ibyorezo abantu bambara ubupfukamunwa.

Mu misango y'ubukwe habagamo igice, aho umuvuzi w'inka, avugara inka akoresheje inka z'inyambo, inka ziba zifite amahembe maremare asamaje.

Ingoro y'umwami aho umwami yabaga, ndetse ni inzu zabaga zubatswe neza, nko mu rukari rw'umwami. Ahangaha hakaba ari ho umwami yiberaga.

Umweyo mu mucyo wa kinyarwanda ni igikoresho, gikoreshwa hakorwa isuku mu mbuga, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, aho bikorwa cyane cyane n'igitsina gore.

Ifumbire ryitazi, ni bimwe mu mafumbire abahinzi bakoresha buhira imyaka yabo, kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi ushimishije bitewe n'ifumbire.

Umubumbyi w'inkono, aho ari kubumba inkono akoresheje ibumba, inkono ni mu bimwe mu bikoresho abanyarwanda bakoreshaga kera, bakora ibikorwa bitandukanye nko guteka cyangwa se kubikamo ibinyobwa.

Urugo ahantu mu cyaro, ahantu baroye inkokokazi ndetse n'amasake. Ahantu umwana ari gusekurira ibintu mu isekuro, ndetse nyina akaba hari ibintu arikoza mu ibase.

Rwanda yacu twakoreshaga urusyo n'ingasire, kugira ngo tubone ifu, aho yabaga ishyirwa ku rusyo, maze yahava igashyirwa ku ntara kugira ngo babone uko wayikoresha.

Umuzinga igikoresho mu muco nyarwanda bakoreshaga benga ibyo kunywa, birimo inzangwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho hari aho bakoresha umuzinga ndetse bahereza inka amazi.

Ikibindi nk'igikoresho ahambere mu Rwanda bakoreshaga bateka ibyo kurya cyangwa se babikamo ibintu runaka nk'ibiryo cyangwa se ibyo kunywa ubushera n'inzagwa.

Agacuma, nk'igikoresho mu Rwanda hambere bakoreshaga nk'igikoresho gishobora kubika ibyo kunywa, nk'inzoga z'inzagwa, ubushera aho babikagamo bityo akaba ari mwo babifatira.

Mu muco wa kinyarwanda ingoro y'umwami, Aho Umwami yabaga, yabaga yubatswe neza cyane. Bityo umwami akaba ariho yabaga ndetse...

Bimwe mu bikoresho mu Rwanda twakoreshaga nk'amafuni, amasuka ibibindi ndetse n'ibisabo. Ni bimwe mu bikoresho bibungabungwa kugira ngo harebwe nimba byakwitabwaho kugira ngo bitazazima bigacika.

Umubumbyi w'inkono aho ariko kubumba ibintu bye bitandukanye; harimo ndetse n'ibibindi cyangwa se ibyo bita inkono, aho bazitekeragamo mu rwanda rwo hambere.

Umuco wacu tugira aho tudashyira amata ariho mu byansi ndetse no mu bisabo, ndetse aho akaba ari tubikamata bityo tukaba twayabona bitatugoye.

Inka ziri gushoka ahantu hari ikibumbiro, umushumba wazo agenda azisukira amazi bityo, kugira ngo inka zibone amazi ahagije, mu cyaro bakoresha ibibumbiro.

Mu muco wacu tugira imbyino za Kinyarwanda, aho zibyina z'ibyinwa n'abari cyangwa se abategarugori ndetse bafatanyije na basaza babo.

Isekuru n'umuhini nk'igikoresho mu rwanda hambere bakoreshaga, basekura ibintu bijye bitandukanye. Aho rimwe bagikoreshaga basekura isombe nk'imboga zo kurya.

Ikirago, ikirago ni bimwe mu bintu abakecuru ba kera babohaga, kikaba cyarakoreshwaga mu kwicarwa, aho bakiyicaragaho bari nko kurya cyangwa se bari kuganira.

Umugabo urimo gusekura mu isekuru, aho iyi sekuru bayikoreshaga basekura ibintu bigiye bitandukanye, mu byo basekuriragamo twavuga nk'isombe cyangwa se ibindi bintu waba ukeneye.

Igikoresho cy'isekuru, aho bayikoresha basekura ibintu runaka, urugero nk'isombe ndetse n'ibindi bintu, umuntu yaba ashaka gukoresha ariko bisekuye.

Umuzinga wamaze kubumbwa, aho bawuteguriye kujya gukoreshwa mu gukusanya inzuki, bityo bakaba babikoresha mu buryo bwo guhakura ubuki muri uyu muzinga.

Igitebo n'igikoresho gikoreshwa, mu gutwara ibintu runaka babivana hamwe ba bijyana ahandi, kiba kibajwe mu migano ndetse kikaba, ari cyo mu muco wacu gakondo bakoreshaga mu gutwara ibintu.

Mu muco wa kinyarwanda habamo igisabo aho kiba kijishwe, mu muco wa kinyarwanda dusangamo ibindi bikoresho nk'umuduri bifashishaga bakora indirimbo.

Umusaruro uvuye mu budozi bwo kudoda ukoresheje indodo. Aho ushobora gukoramo ibintu bigiye bitandukanye nk'imipira, ndetse n'ibikuvureri. Ibi ngibi bikaba byaguteza imbere, akenshi bikorwa n'abamama cyangwa se ababyeyi.

Ibikorwa by'ubuvumvu, aho bashyize imizinga ahantu mu ishyamba, kugira ngo babone umusaruro uhagije w'ubuki, bushobora gukoreshwamo mu buryo bugiye butandukanye, nk'imiti cyangwa se nko kuribwa.

Mu Rwanda, hambere bakoreshaga ibibindi nk'urwengero, aho bashyiragamo imitobe ndetse n'ibindi bintu byo kunywa, byarangiza bikarangira bibaye urwangwa, bakabitereka, barangiza bakabikoresha nk'ibyo kunywa.

Telefone nziza za simati, ziba zirimo ijambo banga kugira ngo harindwe umutekano wazo, bityo umuntu uwo ari we wese ntabe yayikoresha igihe ayifashe.

Amazu yubatswe neza, amazu y’icyitegererezo, aho abaturage batuzwa mu mazu yubatse afite ibikoresho byose, bityo bakabaho neza.

Ikirango kiri ku muhanda kigaragaza aho itorero ry'ikinzovu riri. Aha akaba ariho abantu basengera muri paruwasi ya kabarondo, aho abantu basabanira n'Imana.

Abantu bari gutaha ikiraro kinyujijwe mu kirere, aho bari kugitaha ari benshi, ndetse hakaba harimo abari kwifotoza, ndetse hakaba harimo n'abazungu.

Amashuri ateye imbere, yubatswe neza, asizwe amarangi, ndetse afite ibikoresho bibungabunga isuku. Aho abanyeshuri bashobora kuba bakwigira batekanye ndetse bafite isuku.

Leta igerageza kubaka amashuri agerekeranye, kugira ngo ikigo kigaragare neza, ndetse bibashe kuba byakongera isuku y'ikigo.

Inyubako y'ibisima, aho abantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye. Akaba ari inyubako zifite isuku, ndetse hejuru bakaba bari gushyiraho amasima. Naho aho kubika ibintu, hakaba hari inzugi z'ibyuma.

Amazu y'icyitegererezo ni amwe mu mazu Leta yubaka kugira ngo ishyire abaturage hamwe, ndetse ibe yabarindira n'umutekano, aho bamwe yabakuye mu nzu z'amanegeka.

Inzu z'ibyitegererezo zubakwa kugira ngo abaturage babashyire ahantu hamwe. Akenshi izi nzu zishyirwamo abantu bari batuye ahantu hatabahesheje umutekano. Bityo bagashyirwa hamwe kugira ngo bite ku mutekano wabo.

Abakozi bakora mu ruganda rworora inkoko, ni bamwe mu bakozi bambara imyenda yabugenewe, kugira ngo hitabwe ku mikurire y'izo nkoko, hirinzwe izazibongamira mu gukura neza kwazo.

Inzu zubatswe z'ikitegererezo, aho zishyirwamo abantu bari basanzwe batuye mu manegeka, cyangwa se batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, bityo bagashyirwa ahantu hamwe kugira ngo habungabungwe umutekano wabo.

Icyapa kigaragaza ahantu porisi cyangwa se inzego zishinzwe umutekano zikorera, bityo bikaba biyobora abagenzi bashaka kumenya aho porisi ikorera.

Inyubako y'urugomero rw'amashanyarazi, aho amazi amanuka ku manga agatanga amashanyarazi ashobora gukoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, nko gusudira, gucana no gutanga urumuri mu mazu.

Abanyeshuri bicaye neza nk'abantu bari mu bizami, inyuma hari ikibaho gisibije, ndetse n'ishuri ryabo ritondetse intebe ku murongo kugira ngo hirindwe gukopera.

Urwego rw'ubuyobozi ndetse n'abashinzwe umutekano bari gusobanurira abaturage uburyo bashobora gutera ibigori byabo ku murongo, cyane ko hari ibigori biteye ku murongo ndetse bihinze neza.

Inama y’abaturage, aho bari kuvuga ibibazo byabo, babibwira abayobozi babo kugira ngo bibashe kuba byabonerwa ibisubizo. Ndetse bakaba bambaye ubupfukamunwa bwo kwirinda icyorezo runaka.

Inama yahuje abaturage n'abayobozi babo, aho baje hamwe kugira ngo bige ku bibazo ndetse n'uburenganzira bwabo, kugira ngo ibibazo bafite bibashe kuba byakemurwa.

Inama y'abaturage, yitabiriwe n'abayobozi ndetse n'abayobozi bashinzwe umutekano mu rwego rwa daso, aho barimo bigishwa ku burenganzira bwabo nk'abaturage.

Inama y'abaturage aho yahuje abaturage n'abayobozi babo ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi. Begereye abaturage kugira ngo bumve ibibazo bafite ndetse babashe no kubikemura.

Inama y'abaturage, aho umuyobozi ari kubasobanurira ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, ndetse bakaba bari kuganira aho bari gutanga ibitekerezo babisangizanya kugira ngo bikemurwe.

Inama y'abaturage, aho iri guhuza abaturage ndetse n'abayobozi babo, abaturage bakaba bari kuvuga ibibazo, bafite ndetse bakaba bari kwigishwa uburenganzira bwabo, bwo gutanga ibibazo ndetse n'inyunganizi.

Mu Rwanda iyo umuyobozi ashaka kubwira abaturage akoresha inama aho ishobora kubera ku murenge cyangwa se ku kagari, ubundi abaturage bakitabira ari benshi ndetse haba hari n'abandi bantu batandukanye.

Inama y'abaturage bakeya, aho barimo bigishwa uburenganzira bwa bo ndetse n'inzira z'ubutabera bashobora gucamo. Ndetse abaturage bakaba bari kuganirizwa n'abayobozi, aho bari kubereka buri kimwe cyose mu burenganzira bwa bo.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama bayobowe n'umuyobozi, arimo abasobanurira ku kintu runaka bityo kugira ngo bakimenye ndetse bagisobanukirwe, maze na bo babashe kuba bagira icyo babimaza.

Igikamyo kinini gitwara ibikoresho bakoresha bubaka amazu. Aho bagipakiyemo imicanga, amatafari ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibikorwa by'ubutwazi bw'ibintu, aho bakoresha moto zimenyerewe nka Lifani mu gutwara ibikoresho, birimo ingorifani ndetse n'ahantu haparitse imodoka.

Ubwikorezi bw'ibintu hakoreshejwe amagare aho buri wese mu Rwanda ashobora gutwara igare, aho umugore cyangwa se umugabo bityo bose bakaba bashobora gukora ubucuruzi bikoresheje amagare.

Kigali siti tawa ni imodoka nini ikoreshwa na ba mukerarugendo. Iyi modoka ni imodoka wicaramo nini cyane, ku buryo hejuru y'abicaye, hameze nk'aho igeretse bityo ikaba imeze nka etaje.

Ahantu muri gare hari imodoka zitandukanye ndetse n'abagenzi batandukanye, aho hari ama kwasiteri ashobora gutwara abagenzi hirya no hino, ndetse na maritiko atwara abagenzi mu ntara.

Abakozi bakora mu ndege bari mu bakozi baba bambara neza, ndetse baba bagaragara neza mu bo batwaye, bityo indege igakundwa cyane.

Abanyonzi ni bamwe mu bantu bashobora gutwara abagenzi babakuye ahantu hamwe babajyana ahandi mu cyaro aho bakunda kuba bafite amagare afite imisego ndetse na bo bambaye ubupfukamunwa mu gihe ari mu gihe cy'ibyorezo.

Ubu ngubu mu Rwanda imodoka nazo zisigaye zifite ikoranabuhanga, aho ufata ikarita ukayishyiraho amafaranga waba ugiye ahantu runaka ugashyira ku cyuma warangiza ukinjira, babyita kwishyurira ku gakarita ibi ngibi ari byo byiza cyane.

Mu mujyi ahantu hari iterambere, hari amamoto akoresha amashanyarazi. Bishobora guteza imbere umuco wo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, ndetse hari abantu benshi.

Uburyo bwo kurwanya icyorezo; hakarabwa intoki ndetse hambarwa ubupfukama, ku mirongo aho abantu batonda imirongo yo kujya mu modoka, batonda kumirongo aho bahanye intera.

Ibikorwa byo kwamamaza ishyaka rya FPR. Aho ari kugaragaza ibikorwa yagiye akora nka girinka munyarwanda. Ndetse bakaba bari kubikora nk'abaturage ari kubikora kuri rifane.

Igikorwa remezo nka gare aho abantu bafatira imodoka zibajyana ahantu runaka, hari imodoka zitandukanye nka Ritiko, vorukano zishobora gutwara abantu zibajyana ahandi.

Gare irimo abantu benshi aho haba harimo n'imodoka zigiye zitandukanye haba litiko cyangwa se izizwi nka virunga kugira zitware abagenzi zibajyana hamwe zibajyana ahandi.

Mu Rwanda kugira abagenzi bajye mu modoka, hari aho baba bagomba kugiramo ariho imodoka ziparika, aho dushobora kwita nka gare, abagenzi baragenda bakinjira mu modoka ziparitse bitewe n'aho bagiye.

Dayihatsu nka zimwe mu modoka zikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi, harimo umusaruro cyangwa se gutwara ibicuruzwa. Bityo bikaba bishobora kuvanwa hamwe bijyanwa ahandi, bakoresheje Dayihatsu.

Kigali siti tawa nk'imodoka zishobora gukoreshwa zitwara ba mukerarugendo, aho hejuru ziba zifunguye maze bikaba bimeze nkaho ari nka resitora hejuru, bakagenda bareba hirya no hino bakoresheje hejuru.

Inzego zishinzwe umutekano mu rwego rwa polisi, aho ziri gusobanurira abanyonzi ibyo bagomba kugenderaho, mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage, ndetse n'abanyonzi muri rusange.

Umusaruro w'imbuto zigiye zitandukanye harimo amashu, karoti, kokombure ndetse n'ibindi, aho bishobora gukoreshwa mu kuzamura imirire y'abantu.

Abantu benshi bari ku mirongo, bari muri gare bategereje kujya mu modoka bagiye ahantu hatandukanye. Hari inzego z'umutekano zirimo zibarebera ndetse zibacungira umutekano.

Imodoka iri mu masiganwa, aho iri kugendera mu muhanda. Ndetse ku muhanda hakaba hateguwe ibintu aho hari amakampani ari kwamamaza ibikorwa bya ndetse n'imodoka ikaba iri kwihuta.

Irushanwa ry'amagare rikorwa n'abanyarwanda, ndetse n'abanyamahanga, aho baba bashorewe, cyangwa se bagaragiwe n'abayobozi bashinzwe umutekano babareberera mu byo bakora.

Irushanwa ry'amagare, aho haba hamamazwa gusura u Rwanda, nka viziti Rwanda ryitabirwa n'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bo mu gihugu, aho rushobora guteza imbere ubukerarugendo.

Sitade nini cyane mu Rwanda izwi ku izina ry'Amahoro. Aho ihuza abafana benshi hamwe ndetse akaba ariho umukino wa futuboro, ukinishwa amaguru ukinirwa.

Umukino wa voreboro uri gukinwa n'abamama. Umukino uryoshye ufite umusifuzi, ndetse bakinira ahantu muri Arena. Ni umukino uhuza impande ebyiri.

Inama y'abasifuzi b'umukino runaka, aho harimo bahabwa amabwiriza, ndetse bigishwa buryo ki akazi bakora bagakora neza, ndetse binyuze mu mucyo.

Umukino wa basiketi ni umukino ukinwa n'abategarugori ndetse n'abagabo, ariko abategarugori nabo bakaba bisanga mu mukino, bityo ukaba wabahuza n'abandi bagahangana ku rwego mpuzamahanga.

Abafana bari guselebura bitandukanye, aho bamwe bisize amarangi, bityo bakaba bameze nk’abantu batsinze ndetse bageze ku byo bari bifuza.

Umukino wa basikete ufite abafana benshi, aho baje gushyigikira amakipe bakunda, akaba ari umukino uhuza impande ebyiri aho zihangana, buri kipe iba igizwe n'abantu batanu batanu.

Abafana bari gufana ikipe runaka, ndetse aha hanze harimo abirabura, n'abazungu. Aho bishimye ndetse bisa nk'aho ikipe yabo itsinze.

Mu Rwanda dufite sitade nini imeze neza yubatswe ariyo bita Amahoro aho ishobora kwakira abantu benshi kurushaho kurenza na mbere.

Ipaniye ni igikoresho abakinnyi bakina basketl bashotamo umupira wa basikete, maze wacamo bikabarwa nkaho ari igitego kiba gitsinzwe mu mukino wa basiketi.

Umukino wa hendiboro nk'umukino bakoresha intoki bakina, ndetse bakawutsinda mutuzamu dutoya. Ndetse uyu mukino ntushobora guhuza impande ebyiri, bagamije kwishimisha cyangwa se bagamije kureba utsinda.

Mu muco wacu dusigaye duhereza abagore ndetse igitsina gore ijambo, aho buri mukino wose bitabira nka tenisi, ndetse n'indi mikino itandukanye.

Abagabo babiri bari mu makipe atandukanye barimo bakina umukino wa basikete, umukino ukinishwa n'amaboko. Hakaba hari umusifuzi uri gusifura uwo mukino.

Umukino wa vole uri bukinwe n'abagore, wabereye ahantu kuri arena bityo ukaba ufite abasifuzi mpuzamahanga, barimo bawusifura ndetse n'abafana barimo bakurikirana uyu mukino.

Umukino wa basiketi urimo ukinwa n'abagore. Aho barimo batozwa n'umukoci w'umugabo kugira ngo barebe ko bagera ku ntsinzi kandi bayikoreye.

Umupira wa volebolo ushobora gukinwa n'uwo ari we wese ,yaba umugabo cyangwa se umugore, igitsina gore cyangwa se igitsina gabo ,ndetse bityo, uyu mukino ukaba ushobora guhuza impande ebyiri.